Ku babyeyi baba baje kubyara kugira ngo bajye babasha kubyara neza, umwana ajye avuka neza ntakibazo, kandi nta gikomere afite.

Abaganga biga ibintu bitandukanye, hari abiga ibijyanye na farumasi, hari abiga ibijyange n'ububyaza, hariho abiga ibijyanye na farumasi, baba bagomba kwiga imiti yose, kugira ngo umurwayei nazajya araza kubasaba umuti bajye bamenya umuti baramuha.

Hababo ubwoko bw'ibyatsi bugiye butandukanye, hababo ibyatsi bigira imiti ivura abantu, ndetse ikavura n'inyamaswa.

Mu mashyamba habamo ubwoko bw'ibiti bwinshi cyane butandukanye, kandi hari ubwoko bw'ibiti bugira amababi yavagamo imiti ikoreshwa cyane.

Amaperi aba ari igihingwa kigira utubuto twitwa amaperi. Utwo tubuto turagurwa kandi amababi y'amaperi aravura.

Amoko y'indabo cyangwa ibyatsi bibamo imiti ivura abantu cyangwa se inyamaswa.

Ikinyomoro ni cyiza cyane, iyo cyeze kigira ibinyomoro uwagihinze cyangwa se nyiracyo, ashobora kugurisha hanyuma agakuramo amafaranga, ashobora kumuteza imbere ndetse agateza n'igihugu imbere.

Habaho ubwoko bw'ibyatsi biba bitandukanye, muri byo habaho ibivamo cyangwa ibitanga imiti ikoreshwa mu buvuzi.